Umukobwa uri ku buriri bw'umweru wiseguye umusego w'umweru, yambaye ikote rijya gusa umweru, yambariyemo umupira w'umweru, ndetse n'ipantaro y'umweru. Munsi yiwe hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo :" kuba hoteli yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe".

Urupapuro ruriho sosiyete y'ubwishingizi, rusa umweru n'ubururu hariho umugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya n'igisarubeti iruhande rwe handitseho amagambo avuga "Ubwishingizi bwo kwivuza bwihariye kubigo bito n'amashyirahamwe".

Umuntu ufite umukasi ari gukata igitambaro munsi ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ari mu ibara ry'umweru ndetse akaba yanditse "iyo ufite ubwishingizi bwo kwifuza uba wizeye umutekano". Ni urupapuro ruri kwamamaza ikigo gishinzwe ubwishingizi.

Icyapa kiriho umugabo w'umuzungu wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, iruhande rwiwe hakaba hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asa ubururu ndetse no munsi hakaba hari andi magambo yanditse mw'ibara ry'ubururu ari mu rurimi rw'icyongereza.

Inyubako nini nziza ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu. Ifite imbuga yubakishijwe amapave, ndetse n'ubusitani burimo indabo, ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atandatu iherereye Kagarama.

Iyi foto irimo ikigo gishinzwe ubwishingizi, irimo umugabo wambaye ikote ry'umukara, n'ishati y'umweru, irimo uburyo buhendutse n'imibare wakanda, kugira ngo ukoreshe serivisi z'icyo kigo gishinzwe ubwishingizi.

Icyapa kimanitse hejuru kiri mu ibara ry'umweru gifite amagambo ari ku ruhande rw'ibumoso ari mu ibara ryi ry'ubururu ndetse n'andi ari ku ruhande rw'iburyo ari mu ibara ry'umakara, hejuru y'aho hari umutaka uri mu ibara ry'umutuku.

Icyapa gifite amabara abiri atandukanye Umweru n'Umutuku ndetse hari n'ikindi kirango kiri hagati gifite ibara ry'Umutuku n'Umuhondo, kikaba cyanditseho amagambo ari mururimi rwicyongereza ari mw'ibara ry'Umutuku.

Icyapa cy'umweru kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara, munsi yawo hari n'andi magambo yanditse mu rundi rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'ubururu, iruhande rwaho hari abantu babiri umugabo n'umugore, umugore wambaye agapira k'umweru, umugabo yambaye ishati yambayemo agapira kajya gusa umukara.

Icyapa gifite amabara abiri atandukanye cyamamaza ubwishingizi, kikaba gifite ibara ry'umweru riri hagati biriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ibindi bimenyetso biri ku ruhande biri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo hasi hakaba ariho ibara ry'icyatsi.

Urupapuro rw'umweru, ruriho amazina n'imibare, n'amatariki n'amafaranga ari mu ibara ry'umukara, munsi hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'umukara.

Urupapuro rwerekana ko warangije kwishyura kuri konti yawe rw'umweru rufite uruziga rw'icyatsi mo hagati harimo akamenyetso kabyemeza, ku ruhande rwo hasi hari akadirishya karimo akamenyetso kemeza.

Iduka ricuruza imitako igiye itandukanye, harimo etajeri irimo agatambaro ko kwifubika ndetse n'indi mitako, iruhande rwabo hari akabati gatoya hejuru hariho imitako, idirishya risa umweru ndetse n'ibyuma by'umweru, n'ibirahure, iruhande rwabyo hari imeza irimo umuntu ushinzwe kubigurisha.

Iyi ni inzu ikoreramo ikigo kizwi cyane mu Rwanda mu gutanga ubwishingizi, gikoresha amabara y'umweru n'ubururu kandi gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, si ubuzima gusa kandi batanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, imitungo mu gihe umuntu imitungo yahuye n'ikibazo cyangwa se ikinyabiziga cye cyahuye n'impanuka baramufasha kugirango yongere asubirane ibyo yahombye.

Iduka ricuruza imyitero y'abagore itandukanye, ifite amabara atandukanye, harimo ifite amabara: y'umweru, umutuku, umukara, ndetse n'ubururu, n'umuhondo; hasi mu iduka hari amakaro.

Iyi foto ni iduka rishinzwe gucuruza imyambaro n'ibindi bintu byo kurimbana. Iyi foto irimo abagabo babiri, umwe w'umuzungu wambaye ishati n'ipantaro y'umukara ndetse n'undi w'umwirabura wambaye ishati irimo imirongo y'umukara.

Iyi foto iriho igikuta cyubakishijwe amabuye, kiriho imyenda igi itandukanye, umwe w'igitenge, undi ni agapira, undi ni ikanzu, hakaba harimo imeza iriho ibikoresho bigiye bitandukanye bigurishwa, hakaba harimo imbere mu nzu harimo ibindi bikoresho bya kinyarwanda bigurishwa.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rw'iwe hari umugore w'umuzungu, wambaye ikanzu isa icyatsi, afite mudasobwa imbere y'iwe.

Iduka ryubatse rifite inkuta z'umweru ndetse n'imiryango y'umweru irimo ibirahure, ndetse n'amadirishya y'umweru arimo ibirahure, ricuruza imyenda y'abagore igiye itandukanye harimo amakanzu ndetse n'amapantaro, n'imipira.

iduka ricuruza ibikapu bigiye bitandukanye, harimo ibikapu, kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu bigiye bifite imitako igiye itandukanye, ibishushanyijeho ndetse bikaba bifite amabara agiye atandukanye, hari igikapu cy'umukara, icy'icyatsi gifite ibara rirya gusu n'umukara, n'igifite ibara rirya gusa umweru ndetse n'icyumweru.

Iyi foto irimo ababyeyi babiri umwe yambaye ikote rya kaki , mo imbere harimo agapira kajya gusa ubururu, undi yambaye umupira w'umukara akaba anambaye amarinete bose bari kureba muri mudasobwa. Inyuma hakaba hari imyenda umwe ujya gusa ubururu, undi ujya gusa umukara, undi ujya gusa kaki.

Iyi foto ni imipira icuruzwa, iri mu iduka, hakaba harimo imipira igiye itandukanye harimo imipira igera kuri itanu y'umukara, n'undi uri mu mabara agiye atandukanye haba n'undi ujya gusa kake ur'inyuma.

Iduka ricuruza imitako igiye itandukanye ndetse ikanakora imyambaro itandukanye harimo imitako bamanika ku nzu ndetse n'imitako bataka mu nzu rikaba rifite utumeza tugerekeranyije turiho imitako itandukanye yo kwambara ndetse n'imikufi.

IIduka ricuruza imyenda y'abagabo amashati ndetse n'makote hari ikote ry'ubururu rifite imirongo y'umweru ndetse imbere mu ikoti harimo ishati y'ubururu.

Iduka ricuruza imyenda ndetse n'amarinete, akaba harimo amakoti afite amabara ajya gusa umutuku, harimo n'amarineti afite amabara y'umweru n'ibirahureri by'umukara, n'amapantaro afite amabara y'ubururu, akaba byose bimanitse ku byuma bisa umukara.

Inkweto nyinshi zitondekanyije z'ubwoko bwinshi, zitandukanye harimo iz'abagore ndetse n'iz'abagabo hakaba higanje iz'abagabo zifashishwa mu kurimbana, ndetse n'izindi bifashisha bagiye mu myitozo ngororamubiri ziteretse ku gitambaro cy'umweru.

Imodoka zimwe zifite ibara rimwe zihagaze mu gipangu zose zifite ibara ry'umweru igipangu gifite inkingi zigiye zisigishije amarangi y'umweru ndetse hagati y'inkingi harimo ibyuma bigiye bizifatanyije.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka iri mu bwoko bwa fuso, ifite ibara ry'umweru, umugabo umwe yambaye ishati n'ipantaro, undi yambaye umupira n'ipantaro, ndetse n'agakapu gafite ibara ry'umutuku, n'akaziga karimo inyuguti za anabanaga.

Imodoka nziza y'umukara ihagaze iruhande rw'imodoka ishinzwe ubutabazi yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanditseho imbangukiragutabara, inyuma yayo hari imodoka iri mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'umweru.

Iyi foto irimo abagabo bane n'imodoka imwe ifite ibara ry'umweru bahagaze imbere y'inyubako igeretse mo imbere mu nyubako harimo imodoka y'umutuku, abagabo bambaye imyenda itandukanye hari uwambajije rijya gusa icyatsi wambaye n'ingofero y'ubwirinzi mu gihe hari ku ahantu bari kubaka isa umweru undi yambaye ishati itukura.

Iyi foto ni amafaranga yanditseho ururimi rw'igifaransa, akaba hariho abantu bari kubyina imbyino y'umuco wa kinyarwanda. Ni amafaranga yakoreshwaga mugihe cya kera.

Imodoka y'umuhondo, irimo umurongo utukura, ifite amagambo ayanditseho, ari mu ibara ry'umukara, imbere yawo hari abagabo batatu bacunga umutekano w'iyo modoka.

Inoti y'amafaranga magana atanu yanditseho amagambo ari mururimi rw'Ikinyarwanda, banki nkuru y'u Rwanda, amafaranga magana atanu, iriho abanyeshuri batatu bafite mudasobwa.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu. ndetse na karuvate y'umukara, wambaye isaha ku kuboko kw'ibimoso imbere ye hateretse mudasobwa, afite n'urupapuro rw'umweru mu ntoki, ndetse ku ruhande hari n'indi mashini ifite ibara ry'umweru, no ku rundi hari hari, hariho imashini ifite ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bambaye amakoti, umwe yambaye ikote ry'umukara ririmo ibara rijya gusa icyatsi, ndetse akambara n'ingofero y'umweru mu mutwe, hakaba hari n'undi wambaye ikote ririmo imirongo y'umweru, Bakaba bahagaze imbere y'amadirishya arimo ibirahure, bategereje serivisi bahabwa nabari inyuma y'ibirahure.

Ibiganza bifite inote nyinshi z'amafaranga akoreshwa mu gihugu kiri ku mugabane wa afurika, ndetse ku ruhande hari n'akuma karimo imibare ijana ako kuma kifashishwa kabara amafaranga.

Ikusanyirizo ricuruza amata hari abagabo babiri bafite ibyansi bya kijyambere by'ibyuma birimo amata umwe yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu bwijimye undi yicaye ku ntebe y'igiti n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu bane harimo abana babiri n'abagabo babiri umugabo umwe yambaye isarubeti y'icyatsi undi mugabo yambaye agapira k'umweru ahagaze imbere y'ameza ateretseho utubido turimo amata, abana babiri bicaye ku ntebe z'umweru umwe yambaye ishati y'umuhondo undi yambaye umupira ujya gusa umukara bafite ibikombe birimo amata.

Amagi icumi ateretse mu buryo butandukanye aho amagi atanu ateretse ku murongo w'imbere andi atanu ateretse ku murongo w'inyuma, akaba ari ku meza ifite amabara abiri atandukanye umweru n'ubururu.

Iduka ryubakishije amatafari ahiye, rifite icyapa kiri hejuru kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, kikaba kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu kinyarwanda, iryo duka rikaba ricuruza amata ya mukamira iryo duka rikaba ryifitemo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, rikaba rifite n'icyuma gishinzwe kubika amata.

Inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu ndetse ikaba icuruza amata ya Mukamira, ikaba irimo intebe z'umweru ndetse n'ubururu ikaba hasi ifite amakaro ndetse n'icyuma gishinzwe gukonjesha ibinyobwa ndetse hakaba hari umuhungu uhagaze wambaye ishati irimo imirongo y'umukara n'umweru isobanye.

Iduka ricuruza amata rifite inkuta ziriho irangi ry'ubururu, ndetse rikaba ririho icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza munsi rikaba ririho ibicuruzwa by'ibinyobwa byose ricuruza, ndetse rikaba rifite n'icyuma gishinzwe kubika amata kiyavomera mu tubido, ndetse no mu ndobo, ku ruhande hakaba hari icyapa cy'inyange.

Iyi foto irimo abakobwa batatu; umwe yambaye agapira k'umweru, undi yambaye ishati ifitemo amabara y'umutuku n'umweru, yambayemo akandi gapira k'umukara mo imbere y'ipantalo y'umukara, ikagaragaramo n'ibyapa bigaragaza ibiciro by'ibi binyobwa bigaragaramo irido ry'umukara n'idirishya, barimo n'undi mukobwa wambaye ikote ry'ikoboyi afite ikayi mu ntoki.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye, ari mu rurimi rw'icyongereza, hakaba hari amagambo ari hejuru, hari n'ikirangantego cy'uburyo bwo kwishyura mu buryo bugezweho, udakoresheje gutanga amafaranga mu ntoki, ahubwo ukabukora mu buryo bw'ikoranabuhanga, akaba ari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, afite amabara atandukanye, aho ari ibara ry'umukara ndetse n'ubururu bwerurutse.

Agapapuro k'umweru kariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse akaba ari agapapuro baguha nyuma yo kwishyura ibiguzi umaze kugura kakaba kanditseho igihugu cy'ubuhinde.

Umurongo ugendanwa ugezweho ufite amabara umukara, icyatsi n'umweru ndetse ukaba ufite n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye, ku ruhande rw'umurongo ugendanwa hari amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse no hejuru y'umurongo ugendanwa ugezweho hari andi magambo yanditswe mu mpine ari mu ibara ry'umweru.

Mesaje uhabwa na sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda emutiyene, iriho amagambo ari mu ibara ry'umukara nururimi rw'Icyongereza ndetse hariho n'amafaranga na nimero ziri kuri simukadi.

Abantu benshi bahagaze hanze y'inzu ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'icyapa kiri hejuru gifite ibara ry'umukara, kiriho amazina ya sosiyete ishinzwe kohereza no kwakira amafaranga aturutse mu bihugu bigiye bitandukanye.

Urupapuro ruriho imibare myinshi namagambo byose byanditswe mubara ry'umukara ni inyemezabwishyu yibigurishwa umaze kugura.

Urupapuro rw'umweru ruriho amabara agiye atandukanye, hariho ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rijya gusa umuhondo, hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza arimo ibara ry'umweru ndetse hakaba n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'urururu n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara rijya gusa umutuku, hakaba n'imibare iri mu ibara ry'umukara.

Ibara rijya gusa umukara ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, uhabwa mu gihe ushatse gusura konti yawe wafunguje muri sosiyete, y'itumanaho ikubwira yuko konti yawe itagikora.

Ibiganza bibiri bifashe umurongo ngendanwa urimo urupapuro rufite ibara ry'ubururu bwijimye hakaba harimo amagambo y’ ururimi rw'icyongereza atondekanyije agaragaza uburyo wakoresha wishyura muri serivisi zigiye zitandukanye.

Umukobwa wambaye amaherena wambaye umupira wumuhondo, akaba afite inoti ebyiri z'ibihumbi bibiri byanditseho banki nkuru y'u rwanda amafaranga ibihumbi bibiri, ndetse akaba afite n'inoti ebyiri z'ibihumbi bitanu by'amafaranga y'urwanda, munsi ye hakabahari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari m'ibara ry'umweru.

Ikiganza cy'umuntu gifashe umurongo ugendanwa ugezweho, mu imbere muri uwo murongo ugendanwa ugezweho hakaba harimo amabara agiye atandukanye arimo umuhondo n'umweru, hakaba harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asa umukara, hakaba harimo n'ibirango bigiye bitandukanye.

Umurongo ugendanwa ugezweho uri ku meza afite ibara rya kaki, umurongo ugendanwa ufite ibara ry'umukara mu imbere mu murongo ugendanwa harimo ibara ry'umweru, harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara, ku mpande zawo hari ibirangantego bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse munsi hakaba hariho amagambo ari rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo emeza munsi hakaba harimo umubare gatanu hakabu uruhande hakaba ari uburyo ukoresha wishyura ukoresheje umurongo ngendanwa mungo ngendanwa burimo akaba arimo urupapuro rw'umweru rutoya ruriho amafaranga ibihumbi makumyabiri y'u Rwanda muka harimo amagambo y'ururimi rw'icyongereza.

Mudasobwa y'umukara ifitemo urupapuro rw'umweru rufite amagambo yanditse mu cyongereza ari mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare iri mu ibara ry'umukara rukaba rufite ibirangantego bibiri ikirangantego akaba ari icya repubulika y' u Rwanda, ikirangango cya kabiri ni iry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, yanditseho ngo igice kigenewe ibiranga ba nyiri ubutaka. Munsi yawo hakaba hari andi magambo yanditseho amazina ya ba nyiri ubutaka cyangwa abahagarariye n'aho bata batuye.

Mudasobwa ifite ibara ry'umukara mu imbere harimo urupapuro rw'umweru rugiye ruriho ibintu bitandukanye hariho amagambo yanditse mu cyongereza ari mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare iri mu ibara ry'umukara, hakaba hari amazina y'umuntu w'igitsina gore yanditse mu ibara ry'umutuku hasi ku rupapuro.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye, hariho amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara, hejuru yanditseho ngo "yato". Akaba ariho n'amazina y'uwakoresheje urwo rupapuro, na sinyatire yu yu y'uwasinye.

Urupapuro rw'umweru uhabwa n'ikigo cy'igihugu cyo mu Rwanda gishinzwe imishoro n'amahoro kigaragaza yuko wamaze kwishyurira ibikorwa byawe akaba ariho ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda hakaba hariho n'imibare iranga ibikorwa byawe n'amazina yawe ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'icyoyungerezayiza nahoaho igikorwa cyawe giherereye.

Uru ni urupapuro rw' ikigo k' igihugu gishinzwe imisoro n' amahoro ruriho imibare igiye itandukanye, hariho imibare iranga icyo umaze gusorera. Hakaba hariho n' amazina y' icyo usoreye icyo aricyo. Hakaba hariho n' amatariki n' akarere nyirizina icyo kintu kirimo.

Urupapuro rw'umweru rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rugaragaza yuko umaze gusorera ibikorwa ufite hanze, urwo urupapuro rukaba ruriho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse n'ikirango cya repubulika y'u Rwanda hakaba ariho amagambo y'ururimi rw'icyongereza ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho hari aho icyo gikorwa cyawe kiri ndetse n'izina ryacyo ndetse na nyir'igikorwa.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibirango bibiri bitandukanye kimwe ni icya repubulika y'u Rwanda, ikindi ni iki kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kiriho amagambo n'imibare ari mu ibara ry'umukara.

Ikiraro kinini gikomeye gifite umuhanda hejuru n'undi muhanda uca munsi yacyo, hejuru hari kunyuramo ikinyabiziga gitwara abagenzi, munsi y'ikiraro hari umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, ipikipiki n'amagare.

Aba mama babiri, uwa mbere yifashe ku itama, yiteye imyitero ni umwisiramu, n'agacupa k'amasi kari imbere ya ho wa kabiri nawe, yambaye amarinete n'ikote ry'umukara, ameze nk'arimo kureba hakurya, n'umuntu wicaye mu ntebe z'imikara zegamirwa.

Ibiganza bibiri bifite amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde, inote imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu, zirindwi, umunani by'amafaranga magana acyenda.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu kiri ku mugabane wa aAurika ni inote esheshatu izo note harimo inote y'atanu, inite y'icumi, inote ya makumyabiri, n'iya mirongo itanu, n'iy'ijana, n'iya maganabiri.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye ndetse ukaba ufite n'imirongo ugiye ushushanyijemo hari umurongo w'umweru urombereje uri k'uruhande ndetse n'iyindi iri hagati icagaguwe irimo ibara ry'umuhondo ikaba ifite n'amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse na kamera zishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Aba ni abagore ndetse n'abagabo barimo bararahirira igihugu cy'u Rwanda ku mugaragaro yuko inshingano zibahaye bazazikora neza kandi n'imbaraga zabo zose kandi banyujije mu kuri, bafashe ku mabendera y'u Rwanda bazamuye akaboko k'iburyo buri wese afite indangururamajwi imbere ye, arahirira u Rwanda ku mugaragaro yuko inshingano igihugu kimuhaye azazikora neza kandi ntagamiye nabirengaho azahanwe.

Iyi foto ni ibiganza by'umuntu bifite amafaranga mu ntoki akoreshwa mu gihugu cyo muri Amerika, munsi yaho akaba ari amafaranga agiye akoreshwa mu bindi bihugu bitandukanye.

Iyi foto irimo ibiganza bibiri bifasha amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Amerika, kurundi ruhande hakaba hari andi mafaranga akoreshwa mu kindi gihugu hakaba n'imashini imufasha kubara ateranya akuba agabanya.

Iyi foto irimo ibiganza bitandukanye bigaragara umwe afashe amafaranga, undi ari kuyatanga mu buryo bwo kumuvungira. Amafaranga arimo ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Amerika.

Umukobwa wambaye umupira utukura uriho amagambo y'umweru n'imibare y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umukara n'umweru, ari gusohoka mumuryango ufite ibirango bitandukanye byanditseho amagambo y'umukara hari naho byanditseho amagambo y'umweru.

Ifoto irimo umukobwa wambaye amarinete y'umukara, yambaye agapira k'umukara karimo amabara y'umweru, akaba ari mu kazu gafite amadirishya y'ubururu inyuma yaho hakaba hari ibirango bigiye bitandukanye, bifite n'amaba agiye atandukanye arimo amabara y'umutuku, umuhondo n''ubururu n'imibare.

Abantu bane, aho babiri bahagaze imbere y'ameza, abandi babiri bagahagarara inyuma y'ameza, inyuma yaho hari igikuta gifite ibara ry'umutuku kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'icyarabu biri mu ibara ry'umweru.

Akameza gatoya gafite ububiko butatu butandukanye, kakaba kariho imitako ibiri itandukanye, ndetse n'isaha iruhande rwaho hari igitanda gifite ibara rya kaki, kiriho umusego wo kwisegura, ndetse n'ishuka yo kwiyorosa.

Inzu nziza ifite amatara hejuru rimwe, abiri, atatu, ane, atanu ndetse n'amarido ndetse n'umutako w'igiti ndetse n'umutako w'amavaze ndetse n'insakazamashusho zikaba ziri mu kabati gasa kaki.

Inzu ifite inkuta z'umweru ndetse ikaba yubakishije amakaro hasi ikaba ifite amadirishya y'umweru arimo ibirahure n'intebe zifite irangi ry'umukara, zikoze mumbaho zifite imisego ifite ibara rijya gusa umweru.

Inzu nziza ifite amakaro hasi ndetse n'inkuta z'umweru n'amadirishya asa umweru arimo ibirahure, intebe zifite ibara ry'icyatsi intebe imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu ndetse n'imeza ifite ibara ry'umweru iri hagati y'izo ntebe, ku mpande hari ibitanda biriho uburiri.

Inzu mberabyombi irimo intebe nyinshi z'umukara ndetse n'ameza afite ibara rijya gusa umweruru hejuru y'ameza hari amacupa y'amazi ahateretse inzu ifite amatara hejuru ndetse ifite n'ibyapa biriw ibara ry'umweru bigiye biri mu mpande zitandukanye.

Intebe nyinshi z'umukara zifite imisego y'umweru n'ameza afite ibara ry'umweru na kaki, impande yazo hari indabyo zitatse, indabyo n'intebe biri imbere y'inzu ikodesha amacumbi.

Iyi foto irimo ibyuma bigera muri bitanu bamanikaho amabendera, ikaba irimo ibyapa bigaragaza amazu akodeshwa, hakaba harimo n'ibiti hirya yaho hakaba inzu igeretse, hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru.

Iyi foto n'urwogero rusange rufite amakaro y'umukara, ku ruhande rwaho haka hari utuzu tugiye dutandukanye dufite amabara agiye atandukanye. Ku ruhande rw'iburyo hariyo ifite ibara ry'umutuku, ku rundi ruhande hariho ibara rijya gusa umukara. Hakaba ku ruhande hari n'intebe zifite byose bisa umukara; hakaba hari na jaride n'indabyo.

Iyi foto harimo inzu igeretse y'amacumbi rusange akodeshwa imbere yawo hakaba ari ubwogero rusange bukoreshwa n'abaje gukodesha aya macumbi.

Inzu ifite amabara y'umweru n'amadirishya y'ibirahure, harimo intebe zisa umuhondo zicayemo umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse rifite n'amatara asa umuhondo. Akaba afite n'inzugi z'ibirahure zisa umukara.

Inzu isize amarangi y'umweru ifite umutako w'ururabyo imbere ikaba ifite umuryango w'umweru uriho ibirango by'ikigo gishinzwe ubwishingizi bw'inzu ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bikaba bimanitse hejuru y'umuryango ndetse ikagira n'ibindi byometse ku birahure biri ku nzuki.

Inzu nziza ifite ibikuta bisize amarange y'umweru n'umukara igikuta cy'umukara kiriho amagambo y'ikigo cy'ubwishingizi kiri mu Rwanda, ndetse hari n'intebe zifite ibara ry'icyatsi enye n'akameza kari hagati, ku rukuta rundi hariho imitako yo mu nzu.

Inzu ntoya ifite ibikuta by'umweru mo imbere ndetse n'amakaro hasi ikoreramo umuntu utanga serivise zigiye zitandukanye nk'uko zigiye zometse ku nzugi z'iyo nzu harimo gutanga serivise ku bashaka ibijyanye na serivise z'ikigo cy'igihugu ishinzwe iterambere mu Rwanda ndetse n'igihugu nikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda ndetse n'izindi serivise zigiye zitandukanye harimo no kwishyura umuriro.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako ifite amarangi y'umutuku n'umweru, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umutuku, abagabo barimo bambaye imyenda itandukanye, hari bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, hari n'abambaye amakote na karavate, hari n'uwambaye ingofero na rinete.

Abantu batatu bicaye harimo umugore wambaye ishati hi ryawe yiwe hariru umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umukara, hirya y'iwe na none hari umugabo wambaye ishati y'umweru bose bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho imitako itandukanye, inyuma yaho hari igikuta gimweru hari n'ikirango kiririmo ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo amwe mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu ifite amabara atandukanye harimo umweru ndetse n'andi mabara ajya gusa umukara, ikaba ifite amadirishya y'ibirahure imbere y'iyo nzu hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi hakaba harimo n'indabyo zigiye zitandukanye ndetse n'ibiti.

Iyi foto hariho inyubako igeretse, ku gice cyo hasi, hejuru hariho icyapa cyerekana ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, hari n'abantu bahagaze imbere y'iyo nyubako. Hari uwambaye ijire ya sosiyete ishinzwe itumanaho ya emutiyene, hari n'undi uri imbere, wambaye umupira utukura.

Inzu y'ubwishingizi bwa banki ya Kigali, ifite icyapa hejuru kiri mu ibara ry'umweru, gifite ikirangantego cya banki ya Kigali ndetse kikaba gifite amagambo acyanditseho ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikindi kirango cy'izuba kiri ku ruhande, kiri mu ibara ry'umuhondo.

Mudasobwa isa umukara ikaba iteretse ku meza, ifite ibara ry'umweru n'irindi rijya gusa shokora, hirya yawo hakaba iri kugaragara urugi rufite ibara ryijya gusa shokora, hirya yaho nanone hari kugaragara kamera ifite ibara ry'umweru n'umukara.

Inyubako y'umweru ifite ibirahure byinshi imbere, ni inyubako y'ubwishingizi ndetse imbere yayo hari umuhanda ugendwamo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka y'umukara n'umumotari ndetse n'ibiti bigiye biteye impande n'impande.

Iyi foto n'umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro yumukara ninkweto z'umweru, impande ye akikijwe nibikarito by'icyatsi bigiye bifite utuntu dusa umutuku.

Iyi foto irimo umukobwa wambaye agapira k'umuhondo mo imbere akaba yageretseho ishati y'ikoboyi, akaba yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, akaba ahetse n'igikapu. Hejuru y'iwe hari amagambo yanditseho avuga tubirimo na Mokashi.

Umukobwa wambaye ishati ya kaki n'amaherena imbere yiwe hari inzu ifite amabati y'umukara n'amadirishya y'umukara harimo ibirahure n'irangi rijya gusa shokora, iruhande rwe hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru no munsi yiwe hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ashishikariza abantu kwaka inguzanyo.

Umugore wambaye ingofero y'ubwirinzi n'ijire y'icyatsi gihishije, yambariyemo ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu bwijimye, afite igikoresho kibikwamo ibikoresho byo gukoresha mukazi. Inyuma yiwe hari umuryango w'icyatsi, inyuma y'uwo muryango hari imashini yubaka ahantu bari kubaka inzu.

Iyi foto ni urupapuro wuzuzaho imyirondoro mu gihe ugiye gusaba inguzanyo mu kigo gishinzwe kubika no kubikurira abakigana amafaranga.

Abantu benshi bahagaze, harimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho amagambo afite ibara ritukura rya koperative,...

inzu nziza ifite inkingi enye, hasi ku nkingi hakaba hari imeza ifite ibara ry'umukara, n'irindi rya shokora mu imbere hakaba harimo mudasobwa, hejuru ya mudasobwa hari inyerekamajwi irimo umugabo n'umugore bafite abana handitseho amagambo y'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza.

Inzugi z'ibirahure ndetse n'amadirishya arimo ibirahure, ku madirishya hariho ibirango bifite amabara atandukanye umukara n'umweru n'icyatsi ndetse munsi no hejuru hakaba handitse amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ari mu cyongereza ari mu ibara ry'icyatsi ndetse munsi yaho hari n'andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara, akaba ari urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga inguzanyo ku banyeshuri ndetse no ku bindi bigo bitandukanye.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru wambaye n'itaburiya ufite imisatsi yumukara ufite umurongo ugendanwa ugezweho ku ruhande rw'iwe, hariho amagambo ari mururimi rw'icyongereza yandikishijwe ibara ry'umweru.

Umuhanda w'igitaka iburyo bwawo n'ibumoso hari amazu agiye atandukanye. Ndahabona igipangu cy'amabara y'icyatsi ndetse iyo nzu isakaje amabati atukura. Hakurya y'umuhanda hari umukindo mwiza uri imbere y'igipangu cy'amatafari.

Iyi foto irimo abagore babiri bafite icyapa mu ntoki, cyanditseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza, ku ruhande rwabo hari amagambo yanditse ari mu ibara ry'umutuku arimo ururimi rw'icyongereza, munsi yaho yabo hari sosiyete ishinzwe kubitsa no kubikuririza abaturage.

Urupapuro rw'icyatsi n'umweru hariho umuhungu wambaye umupira w'umukara ndetse n'agapira k'umukara karimo imbere ahetse igikapu yambaye ipantalo isa kaki afite impapuro mu ntoki munsi yaho hari ikirangantego kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda.

Iyi foto irimo abagore babiri bafite icyapa mu ntoki cyanditsweho amagambo y'Icyongereza, umugore umwe yambaye umupira ujya gusa umutuku, undi yambaye umupira ujya gusa oranje, ikaba ifite ikirango cy'ikigo gishinzwe kubika amafaranga y'abaturage.

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo. Isoko ricuruza imitako ndetse n'ibikapu ndetse n'ibindi bicuruzwa bya kinyarwanda harimo ibikapu bikozwe muri kinyarwanda ndetse n'uduseke ndetse n'imitako ya kinyarwanda.

Ifoto y'abagore bane bateze ibitambaro bose bambaye udupfukamunwa bari gupakira ibicuruzwa byabo mu mifuka. Inyuma yabo hakaba hari imifuka irimo ibicuruzwa byabo, n'abandi bagore bari hirya bari kuganira.

Aka ni agace gatuwe nk'uko bigaragazwa n'ibipangu bihari, hateye ipoto ririho insinga z'imikara kandi iri poto biragaragara ko rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace aha turahabona amapave aho iri poto rishinze, hari n'ibiti hakurya ndetse hari n'amabuye akikije izi ngo.

Isoko ririmo abantu benshi, batandukanye harimo abacuruzi, abaguzi, ndetse n'abashinzwe kwikorera ibicuruzwa baguze babijyana ahantu babisabye. Isoko ricuruza ibiryo bya kinyarwanda imyumbati, ndetse n'ibijumba harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara wicaye ku gikarito gikoze mu biti.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Isoko ricuruza imitako ya Kinyarwanda ndetse n'imitako igiye itandukanye harimo abadozi benshi bicaye imbere y'ibikoresho bishinzwe kudoda ndetse no gushyiraho imitako, hari imitako y'igisabo ndetse n'indi yo kumanika ku nkuta hari abamama benshi bashinzwe gukora iyo mitako.

Iduka ririmo abantu benshi batandukanye hakaba harimo nibiribwa bigiye bitandukanye harimo urusenda, inyanya, intoryi, karoti ndetse naba mama bari kugura ndetse nabagurisha.

Iduka ririmo abagore babiri bambaye ibitenge, iryo duka ricuruza ibikinisho byabana, udukapu tw'abagore, ndetse n'imyenda y'abana, ndetse n'imyenda y'abagore, n'ibinigi n'imyenda y'ibitenge.

Isoko ririmo abantu batandukanye harimo abadozi ndetse n'abacuruzi, ririmo mu ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'umuco wa kinyarwanda harimo uduseke, icyansi, igisabo ndetse n'inkoko ndetse n'ingoma.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore, abahagaze n'abicaye, bari mu iduka ricuruza imbuto harimo amacunga, amananasi, imineke n'amapapayi, ndetse n'ibindi bitandukanye bikoreshwa bateka.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ndetse n'agakapu k'ubururu mu nda, n'ipantaro isa kaki, n'inkweto z'umukara, yikoreye igitebo kirimo imineke, igitebo gisa icyatsi, inyuma y'iwe hari n'undi mugore wikoreye igikarito, yambaye ikanzu y'umukara, akenyeye umupira w'umweru.

Abantu benshi bahagaze, umwe, babiri, batatu bane, batanu, batandatu, bahagaze imbere y'ihema ritoya ririho amagambo y'umukara ndetse n'ay'umweru, ari mu kaziga k'ubururu, hirya yabo hari akandi gahema gatoya k'ubururu.

Icyapa kiriho abakobwa babiri, hejuru yawo hari akamenyetso k'uruziga karimo amagambo y'ururimi rw'icyongereza ari mu mabara y'umweru, hejuru hari andi magambo ya sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda ari mu magambo y'umutuku, ku ruhande rwaho hari akabati karimo imirongo ngendanwa.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'akazu k'umuhondo kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara abo bagabo umwe yambaye ikanzu n'ingofero mu mutwe y'umweru undi yambaye ishati n'ipantaro y'umukara.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu ,batandatu bahagaze harimo abambaye imipira y'umuhondo imbere ku mipira yabo hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ,hakaba n'undi uhagaze ku ruhande ufite igikaratasi mu ntoki akaba afite n'umurongo ngendanwa mu ntoki ,akaba yambaye umupira w'umutuku, ku rundi ruhande akaba hari umuntu uhetse agakapu ku rutugu ndetse akaba yambaye umupira w'umukara.

Ku manywa izuba riri kurasa akazu k'umutuku kariho ibirango bya sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda. Iri kari mu mabara atukura hariho impapuro nyinshi z'ibara ry'umweru, kaba gafite amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Umuhanda w'ikaburimbo cyangwa se parikingi harimo imodoka ebyiri, umumotari uri kuri moto wambaye umupira w'umweru n'ingofero yabugenewe ikoreshwa n'abamotari, hakurya hubatse amazu ameze neza, hari n'aho imodoka zinywera esansi ziri mu rugendo.

Akazu gatoya gafite ibara ry'umuhondo kakaba gafite amadirishya atatu ari mu mpande zitandukanye mwimbere muri ako kazu hakaba arimo umugore ushinzwe gutanga serivisi z'umuyoboro ushinzwe itumanaho mu rwanda MTN hakaba hari uhagaze imbere y'ako kazu waje ugana uwo ushinzwe gutanga serivisi z'icyo kigo gishinzwe gutanga itumanaho mu Rwanda.

inyubako ikoreramo saniramu ikigo gikorera mu Rwanda gitanga ubwishingizi hari mudasobwa eshatu amafoto ari ku gikuta ndetse n'ibyapa.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abicaye bategereje serivisi zitangwa na sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda ya airtel bakaba bahagaze imbere y'ameza afite ibara ry'umutuku ariho amazina yiyo sosiyete ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Icyapa kigaragaza imibare ukoresha wishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga ukoresheje telefone, iyo mibare ni zeru zeru zeru zeru umunani rimwe amazina ari kuri iyo nimero yandikishijwe ibara ry'umukara munsi y'iyo mibare hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ntayandi mafaranga wishyuzwa.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo n'abagore, hakaba hari umugore wicaye wambaye umupira w'umweru urimo ibara ry'umuhondo, bakaba bicaye munsi y'ihema rifite ibara ry'umuhondo, hirya yaho hakaba hari ihema ritoya rifite ibara ry'ubururu.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umuhondo, kariho ibirango bitandukanye, hariho ibirango bya sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda, mo imbere muri ako kazu harimo umukobwa uhagaze wambaye umupira w'umuhondo, hirya y'ako kazu hari inzu nini iri mu ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye ishati y'cyatsi n'ipantaro y'ubururu uhetse igikapu cy'icyatsi cyanditseho vuba vuba, utwaye igare wambaye ingofero y'icyatsi na marinette y'umukara hejuru yiwe hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda vuba vuba. Munsi yayo magambo hari andi magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Urupapuro rw'umweru rw'iduka ricururiza ku mbuga nkoranyambaga ruriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umukara n'umutuku, ndetse akaba ari n'utundi turango tugaragaza aho iryo duka riri ndetse n'aho babika ibicuruzwa.

Iduka ricururiza ku mbuga nkoranyambaga ibintu bitandukanye, harimo ibiribwa ndetse n'ibindi wifashisha mu guteka, hariho umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'umupira w'umutuku, akaba afite ibintu mu ntoki agiye kujyana ku babimutumye, munsi hari amasaha n'igihe ndetse n'iminota, hakaba hariho n'ibicuruzwa bagenda batanga bitewe n'ibyo watumye.

Iyi foto ni iy'iduka rishinzwe kugemura ibintu, umuguzi aba yabaguriye mu buryo bw'ikoranabuhanga, bikamugezaho ibyo bicuruzwa yaguze, ibyo bicuruzwa biriho hariho, imineke, amashu n'inyanya n'imodoka zishinzwe kubimugezaho aho ari hose.

Urupapuro rw'ubururu, ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ndestse akaba ari n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umuhondo, ndetse akaba ari isoko ricuruza ibicuruzwa byo kurya ku mbuga nkoranyambaga, harimo imiceri, n'amafi, ndetse n'ibitoki, n'amashu, n'inkoko n'izindi mbuto, hakaba hariho n'uburyo bwo kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, ahetse igikapu cyanditseho amagambo vuba vuba ari mu ibara ry'umweru. Akaba afashe igare mu ntoki ari kurihagarika neza, imbere yiwe hari igipangu kijya gusa umweru.

Abamotari bane bicaye kuri moto, kuri moto zabo hariho ibintu bimeze nk'ibikarito, birimo ibicuruzwa bagemuye ahantu, ndetse imbere yabo hari inkuta ziri mumabara y'umuhondo. Hirya y'inkuta hari ibiti bihateye ndetse n'indi nyubako ifite ibara ry'umweru.

Iyi foto ni urubuga rukorera ku murongo w'ikoranabuhanga, rugaragaramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Harimo ikanzu, harimo urukweto n'igikapu n'ibindi bikoresho bakoresha bataka isura. N'imisatsi, n'igikoresho gikoreshwa cyumutse imisatsi, n'indi n'ikindi gikapu cy'umukara, n'umupira w'ubururu.

Urupapuro rw'umweru ruriho ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hariho imirongo igendanwa igezweho, mudasobwa ndetse n'imyambaro y'abagabo ndetse n'imyambaro y'abagore n'iy'abana, n'iya siporo ndetse hakaba hariho ibirango bigaragaza ko byifuriza abantu umwaka mushya muhire na noheri y'umwaka wa bibiri n'amakumyabiri na gatanu.

Iyi foto harimo inzu ifite inkingi enye ikaba ifitemo imodoka mu gipangu mu imbere isa umutuku, ikaba ifite igipangu gisa umweru, ikaba ifite igikuta gisize amabara y'umweru n'umuhondo, ikaba ifite n'itara imbere ku nzu.

Inzu iherereye i Kigali i Kanombe ikaba iri kugurishwa amafaranga miliyoni mirongo ikenda n'eshanu y'amafaranga y'u Rwanda, ikaba ifite igipangu gifite ibyuma by'umukara, ndetse mo imbere inzu ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'amabati y'umukara

Inzu nziza ifite utubati dutatu dutandukanye, ifite amakaro arimo amabara ya shokora igikuta gisize ibara ry' umweru, ifite na parafo isa kaki.

Inzu irimo intebe isa icyatsi, imeza isa umweru, akabati gasa umweru ndetse n'icyuma gishinzwe gukonjesha ibinyobwa ndetse n'ibiribwa n'amatara hejuru n'amadirishya asa umweru arimo ibirahuri by'umukara.

Inzu ifite ibikuta bisize irangi ry'umweru ndetse ikaba ifite n'amatara hejuru ikaba ifite n'imitako igiye imanitse ku bikuta hakaba n'amadirishya y'umukaramo ibirahure iyo nzu ikaba ifitemo n'intebe ye zitandukanye izi ntebe zijya ku buriro ndetse n'intebe zo kwicara uganira n'abandi iyo nziga ifite ibyumba bine ikaba iherereye i kigali ku gisozi.

Ubwogero bw'inzu iherereye kicukiro mu kagarama muri Kigali ifite amakaro ku nkuta ndetse ikaba ifite n'ubwiherero bwo mu nzu ku ruhande hari akantu kari mu ibara ry'umukara bogeramo intoki.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa kigali i kanombe iruhande rw'ikibuga cy'indege, ifite amabara y'umweru n'amakaro y'umweru n'amatara imbere n'inyuma, ikaba ifite ibirahure by'ubururu ikaba ifite n'idirishya ry'umukari rifite ibirahure by'umukara ndetse n'inzugi zifite ibirahure by'umukara.

Inzu iherereye i Kigali mu Rwanda, ifite amakaro ku nkuta n'umuryango usa kaki, ikaba irimo akabati, karimo ibikoresho byo mu nzu, ku ruhande rwaho hariho igikoresho gishinzwe gushyushya ibiryo n'igishinzwe guteka icyayi n'igikoresho batekeraho.

Icyapa gifite amabara abiri atandukanye. Hari ari ibara ry'umweru ahandi hakaba hari ibara ry'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo, "hano tubafitiye serivisi zikurikira". Munsi ku musozo w'icyapa hari imodoka y'umweru.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza iherereye i Kanombe, ifite ibyumba bine byo kuraramo, ndetse n'ubwogero butatu; ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi, by'amafaranga y'u Rwanda; ikaba ifite amakaro imbere, ikaba ifite inzugi n'amadirishya ndetse n'ibirahure ikaba ifite n'irangi ry'umweru.

Inzu iri kwamamazwa iherereye I kigali kimironko ikaba ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ndetse n'umukara ikaba igeretse rimwe mwimbere mu gipangu ikaba ifite urukuta rw'amatafari ahiye akaba asize ibara rya kaki ndetse n'umukara ndetse n'umweru akaba ariho n'imitako y'indabyo.

Iyi foto ni inzu ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite amadirishya y'umukara, ikaba ifite n'amatara agiye ari ku nkuta, ikaba ifite n'utwapa dutoya turi mu mabara y'icyatsi.

Imodoka nini cyane ikunda gutwara abantu by'umwihariko zikunda gukoreshwa mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu mu bice bike bitandukanye zitwara abantu benshi bagiye ahantu hamwe ahoza uba ufite ikarita uka ugakoza ku cyuma hanyuma amafaranga akavaho ukinjiramo hanyuma bakagutwararwa kugeza aho ugiye, si ibyo gusa kandi n'abagenda bahagaze turabona imbere umunyamaguru cyangwa se umugenzi ufite igare uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru.

Inzu iherereye i Remera ikodeshwa ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe ndetse n'igikoni k'imbere gifite akabati kokubikamo ibikoresho ari hejuru ndetse no hasi.

Inzu igeretse rimwe iherereye i Kigali Kimironko ifite ibyumba binendetse n'ubwogero butatu, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda ifite igipangu gifite ibara ritukura ndetse rikaba kiriho n'ibyuma bifite ibara ry'umweruni n'amabara ajya gusa umukara.

Inzu ifite urukuta rwubakishije amatafari ahiye, ndetse n'amadirishya aba ku bipangu afite ibara rijya gusa umukara, ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ikodeshwa, ifite ibyumba bine ndetse na dushe eshatu ikaba yubatse yubakishijwe amakaro, ndetse n'amadirishya y'icyatsi arimo ibirahure, ndetse n'inzugi z'umukara zirimo ibirahure, ku ruhande hari ibiti biteye muri icyo gipangu.

Ifoto irimo amatara agera kuri atandatu ikaba ifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibicuruzwa byo kunywa, ibicuruzwa bishyirwa ku biryo, ibicuruzwa byo mu kabari n'ibicuruzwa byo kurya. Bikaba biherereye mu iduka rishinzwe kubicuruza.

Iduka rinini ricuruza ibintu bigiye bitandukanye haririmo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa hakaba ari aho bakirira abakiriya ,hari icyapa hejuru cy'izina ry'iryo duka kikaba kizengurutswe n'inkingi zifite ibara ry'umutuku ndetse imbere y'aho bakirira abakire hari icyuma kinshinzwe gukonjesha ibinyobwa . Hakaba hari abantu batatu bahagaze muri iryo duka ndetse n'igikoresho gishinzwe gushyirwamo imyanda.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buzima busanzwe, hejuru hari amatara y'umweru atatu ndetse hasi hari amakaro ndetse harimo umugabo wambaye imyenda y'umukara hari n'akabati k'ibirahure karimo ibicuruzwa bigiye bifite amabara atandukanye; ubururu, icyatsi, n'umweru.

Iduka rinini ricuruza ibintu bitandukanye, harimo umugore ufite intoki zisize amabara y'umutuku ndetse akaba afite ibicuruzwa bikiri mashashi ari kugenda anyuza ku mashini, imashini ikagaragaza uko icyo gicuruzwa kigura.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye imbere hari utumeza dusa umutuku n'umweru, hakaba hari n'ibyuma biri imbere y'utwo tumeza hasi hari amakaro ndetse rikaba rifite n'imitako n'isakaza amashusho.

Iduka ricuruza inyanya n'ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye, rikaba rifite amatara ari hejuru ndetse n'andi matara afite andi mabara, hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Iduka rifite amakaro y'umweru n'umukara, rikaba rifite ibicuruzwa byinshi rikaba rifite ameza asa umutuku n'umweru, mbere ku idu mo imbere mu iduka hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro ya kaki hakaba hari n'undi wambaye agapfukamunwa, wambaye umupira w'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi irimo imitako itandukanye irimo n'imifuka itandukanye ifite amabara agiye atandukanye harimo iy'ubururu harimo n'ifite amabara y'ubururu n'umweru ndetse harimo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umukobwa wambaye ikanzu itukura, n'ipantaro y'umukara, ufite agatebo mu ntoki, wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, ari mu iduka ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo amazi n'ibindi byifashishwa mu guteka.

Abantu bane bambaye imipira y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, bahagaze hejuru y'abantu benshi harimo abanyonzi, n'abaturage basanzwe, bari kuvuga kuri gahunda y'ubwizigame ya ejo heza bafite ibirango byanditseho amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu batanu batandukanye bicaye ahantu hamwe harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro ifite ibara rijya gusa umukara, hakaba harimo umugore wambaye umupira w'umweru n'ijipo isa umukara, hakaba hari n'undi wambaye agapira kajya gusa umutuku n'igitenge, akaba n'undi wambaye igitenge n'undi wo ku ruhande akaba yambaye igitenge, undi wo hirya akaba yambaye agapira karimo amabara y'umweru n'umukara akaba yambaye ijipo akaba yicaye ku ntebe y'umweru iruhande rwe hari indobo y'icyatsi.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'amarinete, wambaye umupira ufite ibara rijya gusa umukara, akambaramo ishati y'umweru ndetse na karavate ijya gusa umutuku, akaba afite igikapu ku rutugu iruhande rw'iwe hari porogaramu ya ejo heze ifite ikirango kirimo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'izuba.

Umukobwa wambaye igisarubeti cy'ubururu n'ishati, ufite inyundo ifite ibara ry'umukara n'umuhondo, wambaye amarinete y'ubwirinzi mu gihe ari ku ishansiye, n'ingofero y'umuhondo y'ubwirinzi.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Ibiganza by'umuntu bikoze ku ifoto iriho abakobwa bane iruhande rwayo handitseho amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda ari mu ibara ry'ubururu yanditse ngo "kugerageza gutembera gukunda siporo" hejuru yayo hari n'andi mafoto agiye yanditseho amagambo y'ikinyarwanda ari mu mabara y'ubururu.

Iyi foto ni umugabo ufite icyapa kiriho amafaranga yabashije gutsindira mubwishingizi. Akaba yambaye umupira w'umutuku n'agapfukamunwa k'ibara ry'icyatsi. Inyuma y'iwe hari urukuta rw'amabuye y'amatafari. Ku rundi ruhande rwo hirya ibumoso, hariho indabyo z'icyatsi.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi, kiri mu mabara y'umuhondo n'umweru w'ubururu, kiba gifite amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo ari mu mpine ari mu ibara ry'umweru akaba azengurutswe n'ibara ry'ubururu.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibyifashishwa mu guteka, ndetse n'ibyokurya by'abana, n'ibinyobwa ibise bidasembuye, harimo amazi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo n'amafu y'igikoma, ndetse rikaba rifite icyuma gishinzwe gukonjesha gifite ibara ry'umutuku hejuru, ndetse n'imiryango y'umweru irimo ibirahure.

Iduka ricuruza ibiribwa ndetse n ibyo kunywa, ririmo umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'icyatsi, akaba ari kubifata akabishyira ku mashini ishinzwe kugaragaza ibiciro by'ibyo bicuruzwa.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'itaburiya ijya gusa umukara, hirya yiwe hari undi wambaye umupira ujya gusa umweru, ndetse yambariyemo agapira kakajya gusa umukara, imbere yiwe hari amacupa abiri, hari icupa ry'amavuta y'ubuto, ndetse n'irindi cupa risa umutuku.

Ifoto irimo inkingi zigera kuri enye ifite amatara menshi ari hejuru kuri parafo ikaba ifite n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye byo kurya byifashishwa no mu guteka ikaba ifite n'amakaro hasi.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye hari ibyo kurya ndetse n'isukari ndetse n'ibyo kunywa bidasembuye bipanze mu tu etageri dufite ibara ry'umutuku ndetse imbere yaho hari igikoresho gishinzwe gukonjesha ibyo kunywa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'inzugi z'umweru zirimo ibirahure, hasi mu iduka harimo amakaro.

Iduka rifite imitako y'indabyo ndetse rikaba rifite n'amatara hejuru, hejuru hakaba handitseho amazina y'iryo duka. Iduka rikaba ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutunganya serivise abantu bagiye basaba, ndetse rikaba rifite n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka z'ubwoko butandukanye, iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hari akayira k'abanyamaguru, iruhande rw'akayira k'abanyamaguru hari icyapa gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu kinyarwanda ari mu ibara ry'umutuku, amagambo ari mu kinyarwanda yanditse, Simba Kicukiro.

Iduka ricuruza amata y'ifu ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ririmo abagore, umwe, babiri, batatu, bari mu mirimo itandukanye, hakaba hari n'udutanda tugeretse tugiye turiho ayo mata y'ifu n'ibindi byo kunywa bitandukanye, ndetse hejuru hari amatara hasi hari amakaro.